Iyo ugeze mu nama y'abayobozi uhita ubona itandukaniro riri hagati y'izindi nama nk'iz'abaturage kubera ko usanga hatuje cyane kandi hari abantu b'intiti bafite ibitekerezo biremereye.

Aayobozi bakuru iyo bamaze kuva mu mahugurwa cyangwa inama zigiye zitandukanye, usanga bica ahantu hamwe bagasangira ndetse bagafata n'amafoto y'urwibutso kugira ngo icyo gikorwa bazahore bacyibuka.

Ikikubwira ko habaye inama yahurijemo abantu b'ibikomerezwa, uba ubona n'abayobozi bambaye impuzankano z'umutekano, kubera ko babizi ko ibintu biberaho hashobora no kuba umutekano muke. Bakaba babibonera uburyo babyirinda.

Igihe abayobozi bakomeye bari mu mahugurwa, bagomba kuba bitwaje amakaramu, amakaye yo kwandikaho se ndetse abenshi bateye imbere baba bafite n'amacupa y'amazi.

kKuvuga imbwirwaruhame si ibya buri wese. Cyane cyane ko hariho abantu baba batarigeze bafata kuri mikoro na rimwe, bityo wayimuhanga ayikoreshe, ugasanga ahubwo niyo iri kumukoresha.

Abayobozi mu nama bo ntibatana no kuba bafite amacupa y'amazi n'amakayi bandikaho ibintu by'ingenzi kugira ngo bahore babyibuka maze kubera ko bamenye ko inyandiko zidasaza, bagiye bahora babisoma.

Nyuma yuko abagore na bo bahawe ijambo, ubu buri wese ashobora gukora inshingano nk'iz'undi, hari ibyo wasangaga bikorwa n'abagabo gusa ariko ubu n'abagore byabaye ibyabo kubera uburinganire.

Niba abaturage bagiriwe abayobozi icyizere, bagomba nabo kujya bakora inama zitandukanye, cyane cyane iyo komite yose yatowe kugira ngo ibyo bajya bageza ku baturage babe babyumvikanyeho.

Igihe cyose ugiye ahantu hateraniye abantu basa nkaho ari abakire, ni byiza ko wiyicarira mu ntebe z'inyuma kubera ko imyanya y'imbere iba yagenewe abanyacyubahiro bakomeye cyane, bashobora kuzigukuramo.

Gushira amanga ukabwira abantu cyane cyane mu ruhame, bisaba ubushishozi n'ubwitonzi no gutinyuka, kubera yuko si ibya bose hari abantu baba badafite iyo mpano.

Iyo leta izanye gahunda yo kwirinda iba igira ngo ubuzima bw'abaturage bubeho neza, niyo mpamvu twese tugomba gushishikarizwa kwirinda indwara y'ubushita bw'inkende kubera ko yica nabi.

Imbyino gakondo zaryoheraga abantu kera ariko ubu usanga ababyitaho ari bake kubera ko haje izigezweho ubu ngubu usanga urubyiruko arizo baba bishakira gusa.

Iyo ugeze mu nzu ndangamurage, uhasanga ibikoresho bijya bitandukanye, birimo udutebe dutoya, ndetse n'imikeka n'ibikoresho byakoreshwaga kera bajya guhiga, aho ngaho ukaba wabisanga muri izo nzu zabugenewe gusa.

Mu muco wa kera mu gitaramo hakundaga kubaho ababyinnyi, abo bitwaga intore kubera yuko aribo bataramiraga abantu ndetse abantu bikabashimisha cyane.

Usanga abantu bakomeye mu nama zabo baba bafite uducupa tw'amazi ndetse utanywa amazi bakaba bamuha nk'agacupa kandi karimo ibyo kunywa bindi bitari amazi.

Mu muco nyarwanda wa kera wasangaga abangavu bakunda kwambara imikenyero, byagaragazaga umuco w'Igihugu cy'u Rwanda, ariko ubu ngubu abenshi basigaye bambara imyambaro iteye isoni.

Kera byari bizwi ko abantu bazi kuboha ibintu byinshi bari bafite ubukungu bukomeye cyane, ababohaga inkangara bo barabyitonderaga ugasanga bayikoze neza ku buryo ibahesha amafaranga menshi.

Kera wasangaga abantu bari ababumbyi, barakundaga kuba bafite udukoresho twinshi tugiye dutandukanye, bifashisha mu bubumbyi bwabo ariko ubu, byaracitse ntushobora kubibona.

Abami ba kera bari bafite uburyo babayeho ndetse n'inyogosho bari bafite, zitandukanye n'iz'ubu ngubu kuko zagendanaga n'umuco wa kera babaga barimo, bitandukanye n'umuco w'ubu.

Mu muco w'abakera byari bizwi ko umwami yakundaga kwambara mu buryo bwe bwihariye, bigaterwa n'uko ari bwo buyobozi bwari bwarabigennye ndetse n'abiru b'umwami bakaba aribyo bari bashinzwe.

Umuco nyarwanda ntugacike kubera ko Abanyarwanda ba kera bakoraga ibitaramo by'umuco maze bakizihirwa, bagasabana, bagasangira ndetse bakanamenyana birushijeho.

Usanga mu muco wa kera utakimeze nk'uw'ubu kuko uwa kera ntabwo wabaga urimo ibikoresho bituma, bisa n'ah'iterambere ryamaze kutugeraho.

Mu muco nyarwanda wasangaga abantu bakunda gutekera ku nkono ziteye gutya kubera yuko hari hatara amasafuriya ya kizungu, maze bakajya bakoresha ibikoresho nk'ibi kugira ngo barye.

Abasore bambarira umusore mu bukwe, bakunze kuba bambara imyenda isa kandi iyo myenda ukabona ko aba ari iya Kinyarwanda, bityo mu bukwe niho umuco Nyarwanda wongera kuwubonera iyo uhigereye.

Ibintu bijyanye n'umuriro w'amashanyarazi mubiharire abantu babyigiye gusa ndetse bafitiye impamyabumenyi kuko ibi si ibintu byo gukiniramo n'urupfu rushobora kuziramo uramutse utitwararitse.

Abakozi bonyine bambaye amajiri ndetse banabihuguriwemo bambaye Urwego rw'Igihugu rushinzwe iby'umuriro ni bo bonyine bemerewe gukora mu bijyanye n'umuriro kuko baba bafite ubumenyi buhagije kuri byo.

Ingomero z'amashanyarazi, tujye tugira umwete wo kuzibungabunga. Cyane cyane leta yagashyizeho uburyo bwiza bwo kujya izubakira kugira ngo ntihagire uzivogera agateza impanuka.

Uriro byitezwe ko uzagezwa ku baturage bose mu gihe kitari kinini, bityo rero iyo gahunda Leta irayikomeje kandi buri wese azacana nta kibazo.

Kwigira ibintu ukabikora biba bishimishije kubera yuko gukora ibintu utize nanone ushobora kubyangiriza utabyangiza ugasanga ni wowe uhatakarije ubuzima kubera ko utabizi.

Kubungabunga umuriro w'amashanyarazi, ni byiza kuko udufate runini nk'abaturage batuye u Rwanda kuko iyo umuriro ubuze, usanga igikuba cyacitse kubera ko tutamenyereye umwijima.

Nyuma y'uko u Rwanda rubonye ko buri muturage agomba kwegerezwa umuriro rwashyizeho iyo gahunda kugeza ubu n'ingo nkeya zisigaye zitarabona umuriro w'amashanyarazi ariko nabyo biri mu nyigo bizakorwa.

Urugomero rw'umuriro w'amashanyarazi rugomba kubugwabungwa aho ariho hose kubera yuko rudufateye runini, kuba rwaduha umuriro tukava mu kizima natwe tukabaho mu iterambere rigezweho.

Ni byiza ko ahantu hari amashanyarazi cyangwa aho afatiye, agomba kurindwa neza kugira ngo atage n'abana kuko abana aho bageze hose bakunda gusiga bangirije ibikorwaremezo ndetse n'ibindi.

Si byiza ko kashi pawa z'aho dutuye tuzikiniraho kubera ko kuyikiniraho bishobora guteza inkongi y'umuriro kandi tujye twibuka no kuzirinda abana kuko bazikiniraho bazi ngo ni amatelefone.

Kubungabungwa kw'ingomero z'amashanyarazi bituma n'abacana uwo muriro bahorana umutekano kuko zitabungabunzwe byateza impanuka zituruka ku muriro.

Iyo abaturage bategerejwe umuriro n'iterambere ryabo rigenda gake, kubera y'uko byakunze kugaragara ko ubushakashatsi abantu babukora bakoresheje umuriro ndetse n'ibikoresho by'ikoranabuhanga.

Imiyoboro y'amashanyarazi cyangwa se ipoto imwe igaburira ingo nyinshi, si byiza ko yagirwaho ikibazo gitejwe n'uwo ari we wese ahubwo tugomba kuyibungabunga.

Ahantu hose hakenewe uburinzi kugira ngo ibikorwa remezo bikomeze birindwe kandi bibe amahoro. Bityo rero bitarinzwe, haba hari abajura biteguye kuba babyiba maze bakabikoresha ibindi bintu bitandukanye, bagahabwa amafaranga.

Ubona urugomero rw'amashanyarazi ujye urubungabunga kubera ko rufata byinshi abanyarwanda, bityo kubyangiza uba wiyangirije kandi wangirije n'abandi benshi cyane.

Abantu bakora mu ishyirahamwe rishinzwe iby'imiriro bagomba kuba bafite impuzankano ndetse basaba bose ku buryo umubonye wese agomba guhita amenyaya icyo akora bityo bigatuma serivisi ukeneye umenya aho uyibariza.

Akarere ka Nyagatare gakunze kurangwa cyane cyane n'ikirangantego cy'inka kubera ko ari ho inka zikunda kororokera cyane, kandi abenshi bakunda kuvuga ko ari iwabo w'amata n'inka.

Igihe umwana arwaye ni byiza kumufata akaboko tukamujyana ku kigo nderabuzima kitwegereye kugira ngo barebe ikibazo afite, babe bamusuzuma nibasanga arwaye bamuvure kandi akiri.

Gukunda igihugu, gukunda umurimo, ubunyangamugayo, ubutwari n'ubumwe ni nibyo biranga abaturage bo mu mudugudu wa Nyegeza, akagari ka Nsheke ndetse mu karere ka Nyagatare no mu Murenge wa Nyagatare.

Buri kigo ndetse bitewe n'ibyo gikora biba byiza iyo kigize inyubako ikiranga, bityo umuntu wese ukeneye izo serivisi akajya akigana azi inyubako aho iherereye.

Iyo abaturage bahuye n'ikibazo cyo kuba babura uko bambutse umusaruro wabo bitewe n'uko nta biraro bihagije bafite, bituma ubukungu bwabo budindira ariko iyo bamaze kubona ibikorwa remezo biteza imbere.

Imodoka zitwara abagenzi rusange, zigomba kujya zigira ahantu zizwi zihagarara kugira ngo abagenzi ntibazishaka babe bazibona mu buryo bworoshye.

Imihanda yo mu mijyi iragoye kuyitwariramo imodoka ndetse n'ikindi kinyabiziga, bisaba kuba uyizi kuko ari imihanda iba icanganye kandi ku muntu utwaye bwa mbere ashobora kuba yayoba.

Ibikorwa remezo biba bikenewe kugira ngo abantu babone aho bakorera serivisi zitandukanye, bityo icyo bagamije kikagerwaho, ni ngombwa rero ko tubungabunga ibikorwa remezo duhabwa na Leta kugira ngo tubikoreshe icyo bigomba gukora.

Abanyamaguru bajye bubahiriza na bo amategeko yo mu muhanda nubwo baba batarayize, ariko bamenye ko aho imodoka zinyura atariho n'abanyamaguru banyura, bityo bakabaye bazi utuyira twabo.

Hamaze kugaragara ko hari ikibazo cy'uko abaturage bahahirana mu turere, Leta yashyizeho uburyo bwiza bwo kubaka ibiraro bihuza utwo turere kugira ngo iryo soko rikomeze ribateze imbere.

Iyo ahantu hakenerwa serivisi kenshi ntutana no kuhabona abantu benshi kubera ko iyo serivisi ikenerwa mu buzima bwabo bwa buri munsi kandi uko ikenerwa ni na ko ikoreshwa cyane.

Ahantu hose abantu bibumbiye mu makoperative hagomba kuba hari inyubako bashyiramo umusaruro wabo kugira ngo urindwe neza bityo bakazawukusanyiriza hamwe bakawushyiramo, byaba byiza bakanawugurisha bakabona amafaranga.

Igihe abaturage barangije umuganda, bagomba kuwusoreza ku kagari gitifu akagira ijambo ababwira, akanabashimira kuko bitabiriye iyo gahunda ya Leta.

Kugira amburansi ni iby'agaciro cyane cyane kwa muganga kubera ko ari ubutabazi bw'ibanze baba buri aho hafi haramutse havutse ikibazo gitunguranye bayifashisha.

Iyo ibikorwa remezo bishyizwemo imbaraga nabyo bitanga umusaruro kubera ko nta gikorwa remezo gipfa kubakwa gutyo atari mu nyungu z'abaturage maze bikabagirira umumaro nk'uko baba barabiteganyije.

Imvura ibayeyinshi bigahurirana n'amashuri yasakawe nabi, itwara amabati ndetse n'ibisenge ikaba yabijyana bityo ubuzima bw'abari muri iyo nyubako, bukaba bwahatikirira.

Abantu benshi bakunda gutaka ko nta terambere bakibona kubera ko ibiraro bibahuza n'utundi turere byangiritse ariko iyo bamaze kubibakorera bimeze neza, umusaruro uhita wiyongera ku rwego rwo hejuru.

Abantu dukunze gusuzugura abandi nyamara tutazi ko ari abayobozi, ariko baba bambaye inifomu ugasanga twabubashye cyane. Si byiza rero ko umuntu yubahira undi ngo ni uko yambaye impuzankano ahubwo tujye twubaha buri wese.

Igihe umwe mu bo mu muryango yitabye Imana bikaba ngombwa ko abasigaye bagabanywa imitungo ye, ni byiza ko hazamo ubutabera kugira ngo bukemure icyo kibazo, kuko bitabaye ibyo abantu bamarana kandi ari abavandimwe.

N'abasaza bahawe rugari mu kwitangira ibitekerezo mu nama zitandukanye, usanga baramenye no kuvugira muri ibi bikoresho, birangurura amajwi kandi mbere nta byabagaho ngo babe babivugiramo.

Kera byari bizwi ko nta mugore uwo ari we wese wafata mikoro agire ijambo avuga. Keretse mu nama y'abagore gusa ariko ubu bamaze guhabwa ijambo, buri wese yemerewe kuvugira aho ashatse.

Nyuma y'uko Leta y'u Rwanda irebye igasanga abana bakunda kugwingira kubera kubura amata. Yashyizeho gahunda ya gira inka munyarwanda, ku buryo buri muturage wese abagenewe gushyikirizwa iyo nka kugira ngo yite kuri uwo mwana.

Igihe twitabiriye ahantu hari nk'amahugurwa cyangwa se ibindi bikorwa byahabereye tugomba kwitwararika kandi tugaha agaciro buri kimwe cyose batubwiriyemo kugira ngo tugikurikize.

Ni kenshi uzakunda gusanga Leta yacu itanga ibintu bimwe na bimwe ku baturarwanda, bityo babahaye inka babaha n'amatungo magufi ndetse kubaha n'ibindi birakomeje.

Mu gutangiza icyumweru cyo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi, buri wese asabwe kwitabira iyo gahunda nk'umunyarwanda wese, kuko iratureba kugira ngo twibuke kandi twiyubake.

Ni ibyiza ko amategeko yose yo mu muhanda twayakurikiza cyane cyane ibyapa, niba ugeze ku cyapa kikubwira guhagarara, witonde kuko aho hantu hashobora kubera impanuka uramutse urenze kuri ayo mabwiriza.

Iyo ugeze muri gare usanga harubatswe utuzu tw'abagenzi bategerezamo imodoka zitwara abagenzi muri rusange bityo igihe bahawe ku itike, cyamara kugera iyo modoka ikaza ikabatwara.

Ibyapa byose byo mu muhanda nk'umuyobozi w'ikinyabiziga wese agomba kubyitaho ndetse akanabikurikiza, kubera ko ibi aba yarabyigiye ariko usanga abenshi batabikurikiza, icyo baba bapfa na cyo barakibonye ariyo perime.

Umumotari nawe ni umwe mu bantu bakunze guteza impanuka zo mu muhanda, ariko ushaka ikibazo aho kiri ukahabura, ariko utekereza neza ko hashobora kuba hari ababyirohamo badafite ibyangombwa.

Ni byiza ko ahantu hose hashyirwa amatara yo ku muhanda kugira ngo amurikire abanyamaguru ndetse n'abandi bakoresha umuhanda ndetse ibi bituma n'ibyapa byo mu muhanda, babasha kubibona kandi bakabikurikiza neza uko bisobanura.

Tujye twita ku byapa ndetse no kuri nimero zabyo kuko ibi ngibi icyo baba barabishyiho ni ukugira ngo bituyobore, bityo umuntu ntapfe kuyoba kubera ko yabonye icyo cyapa.

Mu magare agiye atandukanye, usanga hari amakampani agiye atandukanye y'imodoka, aho abantu baza kwikatishiriza amatike bitewe n'abo bashaka kujya maze bagategereza iyo modoka ikaba yabatwara.

Niba umushoferi tumugiriye icyizere akadutwara, twamwishyuye n'amafaranga yacu agomba kutugezayo tugiye amahoro kuko na polisi y'Igihugu yashyizeho gahunda ya gerayo amahoro munyarwanda.

Byiza ko ku muhanda haba hari ibyapa biyobora abantu kugira ngo umuntu naza kukureba atahazi, ube wamubwira nka nomero z'icyo cyapa wegereye, ubundi aze ari cyo akurikiye kugeza akugezeho.

Igihe cyose mu muhanda hari icyapa cya sitopo, ugomba kujya uhagera ukitonda kubera ko aho hantu, hari impamvu cyiba cyarashyizweho icyo cyapa kugira ngo wirinde impanuka zo mu muhanda.

Niba ugiriwe amahirwe yo kujyanwa mu mahugurwauru uri urubyiruko ujye wirinda ibintu byose byatuma usamara harimo nko gukoresha telefone kuko igutwara ubwenge bigatuma ibyo waje kumva utabyumva ndetse n'uwakubaza ibyo utahanye ugasanga ari nta byo.

Iyo uri umuyobozi ugomba kubera abandi urugero rwiza ndetse bakakwigiraho, kubera ko ntushobora kuyobora abantu ari nta mico myiza bakubonaho ngo nawe bazakubahe.

Si byiza ko umuturage uzi gahunda za Leta neza, areka kubahiriza amategeko ya Leta harimo nko kuba yakanga kwitabira inama kubera yuko byagaragaye ko inama zivugirwamo ibintu byinshi kandi by'ingenzi.

Mu cyaro iyo umuntu mukuru afashe ijambo akabwira abana batoya ndetse n'abandi bari mu rungano rwe usanga bamuteze amatwi, bashaka kumva ibyo arimo ababwira.

Abantu bose bagomba gushishikarizwa, kongera kugira umuco uhamye w'ubutore ndetse hakabaho n'urugerero. Abantu bakajya bibutswa indangagaciro z'Igihugu kugira ngo boye kuzibagirwa.

Gukora ibikorwaremezo birimo nk'umuganda w'igihugu, ntabwo ari iby'abaturage gusa n'abayobozi bagomba gushyiraho akabo kugira ngo batere imbaraga abo baturage na bo babone uko babikorana umwete.

Ubuhinzi ndetse n'imiganda rusange birakenewe ku baturage cyane cyane ni byiza ko twitabira imiganda rusange kuko tuba turi guteza imbere igihugu cyacu kandi icyo gihugu ni twebwe tuzacyiyubakira.

Biratangaje cyane ukuntu abantu makumyabiri na babiri mu kibuga, baba biruka ku kantu kangana gutya, bahatana cyane bagakoresha n'imbaraga zabo zose kugira ngo batsindane.

Nta kintu gishimisha nko kubona ikipe mu kibuga yatsinze kuko aribyo iba igiye igamije, bityo rero iyo idatsinze usanga habamo gufata amakosa bakayagereka ku batumye iyo nsinzi itaboneka.

Nibajya bategura siporo rusange buri wese ajye azitabira kuko ni ubuzima, usanga abantu bararwaye imivuduko y'amaraso kubera kudakora siporo ndetse n'izindi ndwara zituruka kukudakora siporo.

Bimaze kugaragara ko ahantu hose hagomba kuza uburinganire hashyizweho n'irushanwa ry'umupira w'amaguru mu bari ndetse n'abategarugori ubu na bo basigaye bakina nka basaza babo.

Iyo ugeze muri sitade usanga hari abantu bicaye ahasakaye abandi bakicara ahadasakaye, ibi biterwa n'uko umuntu wishoboye ufite amafaranga, adashobora gupfa kwicarana n'undi usanzwe.

Gushyira imbaraga mu bikorwa remezo cyane cyane ibya siporo, bituma abantu bumva banyuzwe kubera ko siporo ihuza abantu benshi kandi ituma n'abantu bagirana ubucuti hagati yabo.

Gukora siporo ngororamubiri muri abantu benshi, bituma utananirwa nkuko wayikora ku giti cyawe kubera ko iyo ugiye kunanirwa abandi bagutera imbaraga ugakomeza urwo rugendo.

Iyo ikipe iri mu kibuga irimo ikina hari abakinnyi baba babanje mu kibuga cumi n'umwe ndetse no kubasimbura hari abantu baba bahicaye bategereje ko umutoza aza kubashyiramo igihe hari abananiwe mu kibuga.

Imyitozo ngororamubiri abakinnyi bazi ko ari myiza kuri bo, kubera yuko umuntu ukora iyo myitozo, ntashobora kurwaragurika indwara zitandukanye ziterwa no kuba barayikoze.

Buri mwaka hashyizweho irushanwa ryo gutegura imikino y'Umurenge bikaba bibera mu Ntara ku Ntara Umurenge ukajya uhura n'undi muri buri Karere bityo bigakina ibaye iya mbere igahembwa.

Mbere yuko abakinnyi bajya mu kibuga ngo bakine, umutoza agomba kubanza kubashyira hamwe akagira inama baha kugira ngo baze kwitwara neza kuri uwo mukino kandi icyo bashaka kiba ari amanota atatu nta kindi.

Nyuma y'uko Abanyarwanda bamenya ko ubukungu bafite buturuka mu byishimo by'umupira w'amaguru ndetse kubera ko banyuze mu bihe bigoranye n'impamvu hashyirwaho siporo kandi igashyirwamo imbaraga kugira ngo bibere abantu ubwiyunge.

Imyitozo ngororamubiri ntabwo ari iy'abagabo gusa cyane cyane nko gukina umupira w'amaguru kubera ko buri wese yabikora kandi bikamubera umwuga umwinjiriza amafaranga atitaye ko ari umugabo cyangwa umugore.

Kubera ko abakinnyi bahora mu myitozo ngororamubiri, usanga imibiri yabo ikomeye, itabasha kunyeganyezwa n'icyo aricyo cyose kubera ko indwara zibabonera kure ntizishobora kubageraho uko ziboneye kubera ko bafite abasirikare bakomeye.

Utuyira ntitujya twiburira cyane cyane utw'abantu bihimbira kugira ngo bagere ahantu mu buryo buboroheye ariko ugasanga nta muganda bakoze kugira ngo izo nzira zivumburwe ahubwo barazihangiye bo ubwabo.

Imihanda igendwamo n'imodoka nyinshi hagomba gushyirwaho utuyira twa'abanyamaguru kugira ngo birinde impanuka kuko hari abanyamaguru binyurira mu nzira izo arizo zoseba yateza impanuka.

Iyo abantu bari bafite umuhanda mubi hanyuma bakawukorerwa, barishima kandi bagashimana na leta yabibakoreye kubera ko ba byoroheje ingendo zabo cyane cyane ibyo batakazamo amafaranga.

Impamvu usanga Nyagatare bahita iwabo w'amatungo cyane cyane inka ni ukubera inzuri zabo zihoramo ubwatsi bityo ugasanga ubworozi bwabo ntibubagora habe na busa.

Abantu bakunda gutwara ibinyabiziga mu muhanda byagaragaye ko bakunda gukora amakosa harimo nko kuba yabateza impanuka zivamo no kuba batakaza ubuzima ariko ibi Polisi y'u Rwanda irimo irabikurikirana neza.

Abayobozi b'ibinyabiziga si byiza ko banyura mu tuyira tutemewe ahubwo bajye banyura mu mihanda myiza ya kaburimbo ndetse aho idahari banyure mu y'iri nyabagendwa, birinde impanuka.

Aya makampanyi yamaze gutera imbere, usanga yamamaza ibikorwa byayo binyuze nko kuba yaterera amarangi abaturage, ikayatera ku mazu yabo k'ubuntu, ariko nayo ikamamarizamo ibikorwa byayo.